Umupolisi ndetse n'umumama barimo guhugurana ku bijyanye n'uburyo bwo kwirinda inkongi y'umuriro mu gihe yaba ibaye aho utuye. Ndabona ari byo bari kwiga.

Hari abayobozi bagaragara nk'aho bari mu nama. Urabona wagira hari mu gihe cya Kovide kuko bose bambaye udupfukamunwa. Hari umuyobozi uhagaze kubaremesha inama, harimo ndetse n'inzego z'umutekano.

Igikoresho cya kinyarwanda bacyita umuvure. Cyakoreshwaga mu bintu bigiye bitandukanye haba gukama ,bakama ibitoki kugira ngo bibe byavamo umutobe mwiza cyane.

Abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bakina umukino wa basketiboro cyangwa se umukino w'amaboko ikigaragara bari bishimye kuko bari bamaze gutsinda.